Mu ruganiriro rurimo itara hejuru, umuryango w'umukara, uruganiriro rusize irangi ry'umweru, imiryango ifunguye. Hasi hari amakaro, ku bikuta hari udupurize tw'umukara.